Farumasi ibamo imiti y'amoko yose atandukanye. usanga buri muti wose uba urimo, ndetse habamo n'amasabune avura indwara z'uruhu. Usanga harimo imiti ivura indwara z'amenyo, mbese imiti ivura indwara zose iba muri farumasi.

Kimbazi ni ibyatsi bivura indwara nyinshi. Cyane cyane bigura inzoka zo mu nda, usanga iyo umwana inzoka zirimo kumurya, cyangwa se n'undi muntu wese, iyo ari kuribwa n'inzoka bamusekurira kimbazi, nuko yayinywa, inzoka zikaba zirakize.

Imiti gakondo ni ibyatsi batera, bakabitera ahantu bagomba kubicunga neza bagacunga umutekano wabyo, kandi ibyo byatsi bivura indwara nyinshi, cyane cyane ko n'abavuzi gakondo baba barafashe amahugurwa yo kuvurisha ibi byatsi gakondo.

Ubuvuzi gakondo ni ubuvuzi bushingiye ku byatsi, ku bimera byaremwe n'Imana, habamo ibyatsi bivura indwara zitandukanye, habamo ibyatsi bita imitagara, habamo ibyatsi bita imibirizi, ndetse n'imiravumba, ibi byose ni ibyatsi byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Igiti cy'avoka ni igiti gikura buke buke kandi kigatanga umusaruro ushimishije, cyane cyane iyo gitangiye kweraho voka bari gusarura usanga ari ibyishimo nubwo gitinda kwera ariko....

Indabyo n'ibihingwa bikenerwa cyane cyane nk'ahantu habaye ibirori, bakenera indabyo ndetse no mu byago, indabyo barazikenera kuko usanga bari kuzitegura baherekeje uwitabye Imana cyangwa se niyo bari gushyingira, bakunda gukoreshe indabyo cyane cyane nko mu m'imiteguro y'abageni.

Ubuvuzi bwa gakondo n'ubuvuzi bukorwa hakoreshejwe imiti y'ibyatsi bahamura ibyatsi, bakabivuguta, bakabisekura, bakabiha abantu. Babibaha ari ifu cyangwa se bakabibaha ari ibiti by'amazi bakanywa nuko bagakira indwara barwaye.

Ubuvuzi gakondo ni ubuvuzi bakoresha bifashishije ibyatsi, bifashisha ibyatsi by'ibimera byaremwe n'imana, skenshi na kenshi bakoresha imizi yabyo cangwa se bagakoresha n'amababi. Mbese imiti gakondo ibamo n'inzuzi, cyane cyane ahanini ni ibikoresho biva ku bimera.

Imiti gakondo ni ibyatsi byifashishwa n'abavuzi gakondo. Bavurira mu ngo z'iwabo cyangwa se abavurira ahandi, cyane cyane ko hari n'ababa baremerewe kuvurira kwa muganga, kuko ubuvuzi bwabo babona bufite akamaro. Bakoresha imiti y'ibyatsi nka za gitinywa n'imiravumba n'ibindi.

Ikigori ni igihingwa gishobora kuvangwa n'indi myaka bakagihingana n'imboga bakagihingana n'izindi myaka kandi kigatanga umusaruro wa nyawo ku buryo ushobora kujya kukireba kabone n'aho cyaba ari kimwe ugasanga cyarakuze.